Ibirayi byiza cyane ,ibirayi bifite uruyange bihuye cyane ibirayi byeze ku butaka bwiza cyane, ibirayi bikikijwe n'ahantu hateye urutoki, ndetse n'ishyamba hirya ahagana ibumoso.

Ubutaka bwiza cyane. Ubutaka buteyemo igiti cyiza cyane kiri kumera gitoshye neza cyane, gikikijwe n'utundi twatsi twinshi cyane. Utwatsi twiza cyane dutoshye turi mu butaka bw'urukara.

Ubutaka bwiza cyane ubutaka buteyemo ibitoki, ubutaka buteyemo ibigori, urutoki ni rurerure cyane rufite amababi yumye ndetse n'amababi mabisi, n'ibigori bifite amababi yumye ndetse n'amababi atoshye y'icyatsi.

Umumama uri guseka cyane, umumama ufashe ibirayi mu ntoki, umu mama ufite ibirayi byinshi yakuye bimukikije, biri ku ruhande ibirayi byeze mu butaka bwiza cyane. Inyuma ye hari urutoki rwiza cyane.

Ibitoki byiza cyane, ibitoki byeze neza cyane bifite isura nziza cyane, ibitoki biteye mu butaka bwiza cyane, bufumbiye ifumbire y'imborera.

Ni umuntu w'umusore niba atari umupapa uhagaze. Inyuma hari umugore uranduye umwumbati weze cyane, weze imyumbati myinshi irenga cumi n'itanu, imyumbati minini ndetse n'imito.

Amajeri meza cyane amajeri yo mu bwoko bw'ibisate ni amajeri yera ahantu haba ubutaka bwiza cyane, ubutaka bw'umukara ni amajeri akunzwe guhingwa no mu mpinga z'imisozi.

Amajeri meza cyane, amajeri ari mu gatete, ni amajeri ateye, meza cyane, atoshye, ateye ahantu mu kantu keza cyane, karimo ubutaka bwiza cyane, ubutaka bw'umukara.

Udushwi twiza cyane tw'ibara ry'umweru. Udushwi dusa n'uturi mu kizu, ikizu gikoreye neza cyane gisa naho kirimo ubushyuhe burinda imishwi.

Inkoko nyinshi cyane, inkoko ziri mu kiraro cyiza cyane, ikiraro cyubakishije ibiti, harimo amatara menshi cyane amuririka inkoko, ni inkoko zo mu bwoko bwa saso.

Inka nziza cyane, inka ibyibushye nini cyane, inka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, inka iri ahantu heza cyane ku butaka bwiza cyane, hari ubwatsi butoshye bwiza cyane.

Umushwi mwiza cyane, umushwi w'inkoko, umushwi w'umweru dede, mushwi udafite amababa menshi, umushwi uri hafi n'isahani bazigaburiramo, ni imishwi inyuma, hari indi mishwi myinshi, ubona ari imishwi iri mu kiraro.

Udukende twiza cyane, udukende twicaye ku giti, udukende dufite ibara ry'umukara ndetse n'ubwoya bw'umweru ku matwi ndetse no mu ijosi, tumeze nk'aho ari karuvati, tukaba turi ahantu hari ibyatsi bitoshye byiza cyane.

Utunyoni tubiri twiza cyane, utunyoni turi kureba uruhande rumwe ,utunyoni turi kuzamuka agasozi kariho utwatsi twiza cyane, turi kubutaka bwiza cyane, ni utunyoni dufite amaguru maremare